Ni umuntu wicaye ku ntebe ya pulasitike, yambaye ijiri ry'umutuku yicaye imbere y'akabati ka MTN gafite ibara ry'umuhondo, inyuma y'akabati ka MTN, hari akabati ka Airtel, iruhande rw'akabati ka Airtel gafite ibara ry'umutuku, haparitse imodoka.

Ni numu umugabo ufite ubwanwa kandi yambaye ijiri ry'umuhondo, inyuma ye hakaba haparitse imodoka y'igitare n'indi iri mu muhanda y'umukara.

Ni umugabo uhagaze afite mikoro kandi yambaye ishati y'ubururu irimo uturongo tw'umutuku, akaba yambaye rinete inyuma ye ku rukuta hakaba hari ibyapa byanditseho Airtel ku rukuta rw'inzu, hakaba hateye irangi y'gitare.

Ni ahatangirwa serivisi za MTN, hari akabati ka MTN gateye irange ry'umuhondo ndetse n'umutaka wa MTN, inyuma y'ako kabati hari inyubako isize irange ry'igitare.

Ni abantu bane bahagaze imbere y'akabati ka MTN gatangirwamo serivise za MTN mu imbere harimo uwicaye utanga MTN inyuma y'ako kabati hari igiti kirekire ndetse n'imbere yaho hari ibirabyo.

Ni abazungu babiri bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, umwe yambaye amarinete mu gahanga, afashe mikoro, yambaye ishati y'igitare, yambaye n'akajire ka Airtel gafite ibara ry'umutuku.

Ni ahatangirwa serivise za MTN akaba ari akabati gateye irange ry'umuhondo, imbere hakaba hari umuhanda wubakishije amabuye.

Ni ahatangirwa serivisi z'itumanaho za mtn, kandi hakaba hari akabati n'umutaka bifite ibara ry'umuhondo. Imbere yaho hakaba hari igiti kizwiho kuba cyitwa umukindo, ndetse na rigori inyuramo amazi y'imvura.

Ni utubati dutangirwamo serivisi za Airtel zifiteho ibirangantego byanditseho Airtel mane, inyuma yaho hari inyubako y'inzu ifite irange ry'igitare.

Ni ahatangirwa serivisi za MTN, akaba ari akabati gateye irangi ry'umuhondo, hari abantu bari imbere yako, iburyo bwako hakaba hari abakobwa babiri: umwe wambaye umupira w'igitare n'undi wambaye ishati y'umutuku, uwambaye umupira w'igitare akaba afashe ibaga mu ku kaboko.

Ni abantu benshi cyane abagabo n'abagore bicaye mu nyubako, bamwe mu bagabo bambaye amakoti y'imikara, ndetse iyi nyubako ikaba irimo parafo iteye irangi ry'igitare, ku nkuta hakaba hateye irangi ry'umuhondo.

Ni abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo yambaye imyenda y'icyatsi kandi yanditseho Daso ndetse umugore yambaye umupira w'umukara bakaba bafite icyemezo handitseho ngo ikemezo k'ishimwe.

Ni abantu bicaye mu itete, umwe yambaye ikote n'isaha ateruye igikombe imbere ye hari umukobwa wambaye rinete z'umukara, hirya yaho hari ibiti birebire ndetse na jaride y'ibirabyo by'umuhondo.

Ni ababyinnyi b'intore bakaba bambaye amayogi, ayo mayogi akaba abafasha mu gucinya umudiho neza. Nyuma yaho hakaba hari n'abandi bafite imikenyero y'igitare n'udupira tw'umukara bakaba bari gukoma amashyi abandi baririmba.

Ndi kubona umugore witeze agatambaro, bari ku bwanikiro bw'ibigori, barimo barayungurura ibigori, ndikubona na supanete iruhande rwayo.

Ndabona inzu yanditseho miliki colegishoni senta, yubatse mu imbere haparitsemo moto ifite pulake iri mu ibara ry'umuhondo iteye irangi ry'igitare.

Ni umugore witeze igitambaro mu mutwe akaba yambaye umupira w'umutuku ndetse akaba yambaye n'undi mupira w'imbeho ufite ibara ry'ubururu, akaba ahagaze mu murima urimo ibishyimbo, ndetse ibyo bishyimbo bikaba byizengurukije ku biti.

Ni amacupa y'ubwoko butandukanye amaremare amagufi kandi akaba agiye afite amabara atandukanye, ndetse akaba afitemo n'inzoga zitandukanye, akaba ateretse ku mbaho z'umukara, inyuma yaho hakaba hari ibara ry'umukara.

Ni icupa ry'inzoga rifite ibara ry'icyatsi, rikaba riteretse ku meza, imbere yaryo hakaba hari iradiyo ifite ibara ry'igitare ndetse n'aho bacomekira telefone, ikaba isize irangi ry'igitare.

Ni akabari gacururizwamo inzoga zitandukanye hakaba hari akabati k'imbaho kariho inzoga z'ubwoko butandukanye ziri mu macupa maremare n'amagufi ndetse imbere y'aho hakaba hari ikesi irimo amacupa afite imifuniko y'umuhondo.

Amacupa maremare arimo inzoga z'ubwoko butandukanye, kandi ayo macupa akaba afite amabara atandukanye harimo ibara ry'igitare, umuhondo, hakaba hari n'icupa ryanditseho maribu, kandi akaba afite imifuniko y'imikara ndetse n'imifuniko y'igitare.

Ni akadobo k'igitare gateretse hasi, gafite uturongo tunyuzemo kandi umukondo wako na wo ni igitare.

Ni iduka ricuruza amavuta y'ubwoko butandukanye, harimo amavuta yanditseho sikala kandi akaba afite amabara atandukanye, harimo ayafite ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku.

Ni inyubako, imbere y'iyo nyubako hakaba hamanitse icyapa cyanditseho canali. Kandi hakaba hamanitse amagare, imbere yayo hakaba hari gaze kandi hakaba hari inkingi iteye irangi ry'igitare.

Ni ntebe z'ubururu kandi hakaba n'iz'icyatsi inyuma yazo hakaba hari amabase y'umutuku n'icyatsi, iburyo bwazo hakaba haparitse imodoka ifite ibara ry'umukara kandi iparitse ahantu hari amapave.

Ni umugore wambaye ijipo y' umukara n'umupira w'igitare urimo uturongo tw'umukara, akaba yambaye ibirenge ahagaze imbere y'iduka ririmo amandazi, ndetse n'imigati hakaba harimo n'udufuka tw'umuceri n'akawunga, ndetse n'amavuta yo kwisiga harimo na shikarete zo guhekenya.

Ni akabati gateretseho ibase irimo amandazi iyo base ikaba ifite ibara ry'umutuku, inyuma yaho hakaba hicaye umuntu wambaye umupira w'igitare.

Ndabona agapaniya karimo ibitambaro ndetse n'ibitenge inyuma by'amabara atandukanye harimo amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'igitare.

Iduka ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo amavuta harimo umunyu, harimo umuceri, harimo buto ndetse n'umugabo uri gukora kubyo umuguzi ari kumubaza, ndabona umugore nawe wambaye umupira w'umukara, nkabonamo umunyu nkabonamo amavuta yo kwisiga nkabonamo na omo.

Ni umucuruzi uri gucuruza amafi, afashe umuhoro cyangwa se icyuma cyo gukatisha amafi, yambaye itaburiya y'icyatsi ndetse n'agasengeri, inyuma ye hari abagore bari gucuruza amafi.

Ni iduka ririmo ibiribwa bitandukanye harimo ibishyimbo ndetse isukari, hakabamo amakaroni, amavuta ya buto ndetse na omo, isabune kandi hakaba hicaye umukobwa wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'umutuku.

Ni ibicuruzwa bitandukanye, hari umugore ufashewe ku icupa ririmo amavuta ndetse hakaba n'imboga ziri gucuruzwa, harimo urusenda, inyanya ndetse inyuma yaho hakaba hamanitse imifuka.

Ni iduka ririmo umugore urimo gucuruza, ufite amafaranga mu ntoki, harimo ibicuruzwa: amajyane, amasabune ndetse na shikarete n'utudobo tw'igitare n'umuzani.

Ni inkweto zo kogeramo za silipa, zifite ibara ritandukanye umutuku ndetse n'ubururu.

Ni isoko ririmo ibiribwa ndetse harimo umunyu, amavuta ya buto, umuceri, amakaroni, amasabune n'amaji yo kunywa.

Ni umugore uri gucuruza mu iduka, iryo duka ririmo ibintu bitandukanye, harimo omo, biswi, amakaroni, ibikapa umunzani, n'amashashi, bifite amabara atandukanye umuhondo, ubururu, umutuku.

Ni akabati gateye irangi ry'igitare kubabatse gakoreshejwe imbaho kandi n'imbere hakaba hateretsemo ibiraha, inyuma y'ako kabati hakaba hari umugore wunamye wikenyeje umupira w'umukara mu nda, ndetse akaba yambaye n'umupira w'igitare.

Ni urusengero, abantu bari kujya gusenga, benshi bari hanze, imbere yabo hari ibiti, ndetse n'uturongo two kunyuramo, urusengero rbakishije amatafari ahiye, rufite n'amarangi y'igitare, imbere yaho hari abantu bambaye amakanzu y'igitare n'icyatsi, bameze nk'abaririmbyi.

Ni abantu benshi batandukanye, abagabo n'abagore, bamwe baricaye, abandi barahagaze, bambaye imyenda, bamwe y'igitare bari imbere y'urusengero kandi urwo rusengero rusize irangi ry'igitare, inyuma yarwo hari ibiti birebire.

Ni inyubako y'urusengero, rukaba rwubakishije amatafari ahiye kandi rukaba ruteye irange ry'umuhondo ku turongo turi kuri urwo rusengero, imbere yaho haparitse imodoka y'ibara ry'igitare kandi hakaba hari n'ibirabyo imbere yaho ndetse na rigori inyuramo amazi.

Ni abantu bicaye, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi, aho bicaye hari ibitambaro by'amabara atandukanye, igitare, umutuku, icyatsi.

Ni umupadiri wicaye ku ntebe, imbere ye hari igitambaro cy'icyatsi ndetse yambaye ikanzu y'igitare na furari y'ibara ry'umutuku n'icyatsi, hejuru ye hakaba hari umusaraba, ku rukuta hakaba hateye irangi ry'igitare.

Ni inyubako y'urusengero yubakishije amatafari ahiye, ikaba iteye irange ry'igitare kandi imbere yaho hakaba hapavomye ndetse hakaba hari na rigori zinyuramo amazi.

Ni abantu benshi batandukanye, abagore, abagabo ndetse hakaba harimo n'umuzungu, ufashe agaseke gafite amabara y'icyatsi, n'igitare, akaba yambaye isaha y'umukara ku kaboko.

Ni abantu bari kubyina bamanitse amaboko, umwe arimo arakoma ingoma, bari mu gisharagati abandi bambaye amakanzu atandukanye: uwambaye iy'umutuku harimo n'uwambaye iy'ubururu.

Ni abagore benshi bahagaze bari gukoma amashyi, barahagaze imbere yaho hari ameza arambitseho bibiriya ndetse bari mu nzu iteye irange ry'umuhondo.

Ni icyumba cya Hoteli, kirimo igitanda hariho amarido y'igitare. Igitanda gifite amashuka y'igitare n'umukara. Hejuru hamanitse supanete hasaka, harimo purafo ya tiripuregisi.

Ni icyumba cya hoteri, kirimo igitanda kandi hakaba hariho kuri icyo gitanda imisego, ndetse na parafo y'igitare, icyo cyumba kikaba giteye irangi ry'igitare.

Ni inyubako ndende ifite ibirahuri, iteye irangi ry'umuhondo, imbere yayo hakaba hari ubusitani n'ibirabyo by'icyatsi.

Ndabona hotel irimo intebe zifite ibara ry'igitare, ndetse ikaba iteye irangi ry'igitare imbere izo ntebe zimwe zifite ibara ry'igitare ubururu, n'ameza y'umutuku.

Ndi kubona saro irimo intebe z'imifariso ndetse n'umuryango inyuma y'umuryango hari intebe ndetse n'igiti cy'umukindo inyuma ndetse n'ibirahure.

Ni inyubako iteye irange ry'igitare kandi imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibyatsi muri ubwo busitani hakaba harimo ibiti hakaba haciyemo n'utuyira turimo amabuye.

Ndabona pisine ifite amazi afite ibara ry'ubururu, nkabona n'intebe zir'impande y'iyo pisine ndetse n'amazu yubatse impande ya pisine, nkabona n'ibyatsi biri hirya ya pisine ndetse n'agahanda gatoya gafite ibara ry'umukara n'igitare ku mpande.

Ni inyubako iteye irangi ry'igitare, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ubusitani bw'indabyo n'ibyatsi, ikaba iriho korotire ifite irangi ry'igitare, hirya yayo hakaba hari ibiti birebire, imbere y'iyo nyubako hakaba hari umusozi.

Ni inyubako iteye irange ry'igitare, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibiti ndetse haparitse n'imodoka ebyiri z'igitare n'indi y'umukara, ikaba ari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Ni icyumba cya hotel, harimo purizi yo gucagingira telefone, harimo igitanda n'imisego ifite ibara ry'igitare, ndetse n'amashuka y'ibara ry'igitare, ni icyumba gisize irangi ry'igitare, hariho purise yo gucagiga ndetse n'aho kwakiriza itara.

Ni inyubako ndende kandi ifite igipangu gifite irange rya orange, inyuma yaho haparitse imodoka ndetse hakaba hari n'ibirabyo, iburyo bw'iyo nyubako hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Ni umugabo uri kugenda mu muhanda, yambaye inkweto z'igitare, ipantaro y'icyatsi, yambaye umupira w'amabara atandukanye, ikigina, umukara n'umutuku n'igitare kandi ahetse igikapa cy'umukara.

Ni umugore wikoreye imyenda ku mutwe ayikoreye ihambiriye ifite amabara atandukanye, igitare, umutuku, icyatsi, umukara indi myenda ayifashe ku kaboko, indi akaba ayifashe mu biganza, iyo afashe mu biganza ikaba ifite ibara ry'icyatsi, oranje, kandi akaba yambaye iherena ku gutwi.

Ndabona ihene eshatu ziziritse ku giti, ebyiri z'umukara n'indi ifite ibara ry'ikijuju, hasi zihagaze mu byatsi imwe irasamye iri guhebeba.

Ni isoko ririmo imyenda, ikweto, amasafuriya, amabase, ibikapu ndetse n'imyenda, y'imbere, n'abagore bari kwigira imyenda, biteze bamwe ibitambaro mu mutwe.

Isoko ryiganjemo ibikomoka ku mboga akaba ari ubutunguru, na beterave akaba ari ubutunguru bwinshi burunze kuri shitingi, aho abacuruzi bagenda bakaburangura bakabuzana kubugurisha abatarabuhinze cyangwa se abatabufite.

ndi kubona muntu wikoreye umufuka urimo amashu, yambaye ikanzu ndetse n'ipantaro arimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo hirya hari icyapa cyandikishijwe ibara ry'igitare ndetse ririho ibara rinini ry'ubururu hari n'ibiti, imbere yaho hari amazu.

Mu isoko ririmo ibiribwa by'imbuto, harimo amaronji, imineke, wota meroni, ibinyomoro, amatunda, ahongaho hakaba hari na kizimyamwoto n'umugore wambaye umupira w'igitare.

Mu isoko ririmo imbuto, harimo imineke, harimo amaronji, harimo indimu ,hakabamo watameloni, hakabamo pome ndetse hejuru hakaba hasakaye, harimo n'amatara.

Ni inyubako y'isoko irimo abantu benshi hakaba hari ufite igare ririho ibitoki ndetse na moto iparitse iruhande rw'abantu bari muri iri soko.

Ni isoko ndetse hakaba n'umucuruzi uri gucuruza inkweto z'amabara atandukanye, akaba afashe inkweto, arikwereka umugore uri kumwe n'umwana, uwo mugore yiteze agatambaro k'igitare, hakaba na shitingi zubakiye inyuma harimo n'umuntu wicaye muri iyo shitingi.

Ni ibiryo, biri mu madishi bitandukanye, harimo umuceri, amakaroni, ifiriti, abantu bari kugenda biyarurira, harimo abambaye udupira tw'igitare kandi bari kwarura ku masahani y'igitare.

Ni inyubako yubatse kandi ifite inkingi yubakishijwe amatafari ahiye, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibiti birebire, kandi iyo nyubako ikaba ifite n'ibyuma biteye irangi ry'icyatsi.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya moto, utwaye moto akaba ahetse umuntu, bose bambaye kasike z'icyatsi, iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari ibiti birebire biteye ku muhanda waho ndetse n'ibirabyo.

Ni umuntu uri mu muhanda wa kaburimbo atwaye igare ndetse inyuma ye iburyo hari umuntu wambaye umupira wa oranje, ku nkengero z'umuhanda hari ipoto rifite insinga zijyana amashanyarazi ku ngo zitandukanye kandi hepfo y'umuhanda hari inyubako.

Ni umuhanda wa kaburimbo unyuramo abantu batandukanye hakaba harimo umumotari utwaye moto akaba ahetse umuntu bose bambaye kasike z'umutuku, ku ruhande rw'iburyo hakaba hari ibirabyo ndetse n'ibiti.

Ni umumotari wicaye kuri moto, yambaye akajiri k'umutuku kanditseho tigo, yambaye ikasike y'umutuku n'umukobwa nawe akaba arimo guseka yiyambura kasike y'umutuku.

Ni umugabo utwaye igare aritwariye mu muhanda wa kaburimbo ahetse ibintu mu mufuka afashe telefoni mu ntoki yambaye umupira wanditseho karindwi, inyuma ye hakaba hari undi utwaye igare, iburyo bwe hakaba hari inyubako ifite ipoto rishinze imbere yayo hariho insinga zijyana amashanyarazi ku ngo.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu utwaye moto ahetse undi, uwo utwaye moto yambaye ikasike y'umutuku uwo bahetse yambaye kasike y'ubururu, ku ruhande rw'uwo muhanda hari amapave ateye irangi ry'igitare n'umukara, hakaba n'ibirabyo ku nkengero z'umuhanda, iruhande rw'ibirabyo hakaba hari ipoto ndetse n'insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibiti.

Ni umusore utwaye igare akaba ahetse abagore babiri bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibishyimbo bya mushingiriro bifite ibibabi by'icyatsi.

Ni umumotari utwaye moto, mu muhanda wa kaburimbo, akaba ahetse umuntu wambaye ishati y'igitare ,bose bambaye kasike zifite ibara ry'umutuku, inyuma y'uwo muhanda hakaba hari icyapa cya mpande eshatu ndetse n'ibiti ku nkengero z'umuhanda hakaba hahagaze abantu ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Ndikubona umumotari ari kuri moto ndetse muri kaburimbo imbere yabo hari amazu ateye irangi ry'igitare ,ndetse n'ipoto riri imbere y'iyo nzu, hari n'ikirango cyanditseho fotibeti..

Ni umugabo utwaye moto mu muhanda wa kaburimbo, iburyo bw'uwo muhanda hakaba hari inyubako iteye irangi ry'igitare ndetse n'icyapa kiri mu ibara ry'igitare n'umutuku kandi iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Ni umuntu utwaye moto w'umugabo uri mu muhanda ari impande y'urusengero rufite ibara ry'igitare ndetse n'amabati y'umutuku, imbere y'urwo rusengero hari jaride irimo ibirabyo, umuhanda uwo mumotari arimo ni umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'umuhanda hari amapave.

Ni abamotari babiri bose bicaye kuri moto baparitse imbere y'inyubako yubakishije amakaro ku nkingi ndetse no hejuru y'inkingi imbere y'iyo nyubako hakaba haparitse imodoka.

Ni umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo umuntu utwaye moto wo ahetse akaba afite ibintu biri mu mufuka w'igitare, bose bambaye kasike zifite ibara ry'umutuku, iruhande rw'iburyo bw'umuhanda hakaba hari ibirabyo ndetse n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Ni abamotari babiri baparitse moto mu muhanda, iruhande rw'umuhanda hakaba hari ibiti ndetse mu muhanda hakaba harimo imodoka, iruhande rw'iyo modoka hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba hari n'ibirabyo n'igiti cy'umukindo.